Ubwoko bw'ibyatsi bugaburirwa amatungo, byitwa cameroni bikaba bikundwa kuribwa cyane n'inka ndetse n'ayandi matungo magufi, cyagwa mu rugo nk'intama ihene n'andi matungo.

Ibiti bitoshye cyane birimo ibiko n'ibindi bizengurutse umurima, usa n'aho wari warahinzwemo ibigori bakaba barabisaruye, nyuma yaho bakabijyana mu rugo kubitunganya.

Ubwoko bw'ibimera bukunda gukomera mu mashyamba, cyane cyane nko mu mirombero, bukaba bwitwa ibitindori, bukaba bwera ibintu bimeze nk'ibibumbe, bimeneka iyo umuntu abikozeho.

Igiti gikomera cyane kivamo imbaho, iyo kimajije gukura kikaba cyitwa geveriya, ndetse kikaba gikunda kumera ahantu hari ubutaka bukomeye, ndetse bwumutse.

Ibyatsi bigira amacumu menshi cyane, bikaba bikunda kumera ahantu hari amabuye cyangwa amakoro, ariya mabuye y'umukara aba ari ahantu hari itaka ryavuye mu birunga, bino byatsi bikaba bigira amacumu ahanda cyane.

Umurima cyangwa se ikibara kirimo ibiti bigiye bitandukanye harimo ibyitwa imisave, hakabamo ibyitwa imigwegwe, IBI by'imisave, bikaba bikunze gukoreshwa mu gukoramo imbaho zibamo ibikoresho byo mu rugo bikozwe mu biti.